Tujya mu murima tujyanye isuka ikaba idufasha kuhira imyaka nk'ibigori, ibishyimbo bigakura neza cyane.

Ibigori ni ibihingwa bishimishije cyane. Iyo bageze mu igihe cyo kubyuhira, bashyiramo ifumbire mvaruganda, kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije cyane.

Amatunda abamo amoko menshi hari ay'umutuku aranda hasi aranda no ku ruzitiro, bakunda kuyaha abana batoya agira utubuto dutoya mo imbere.